Iyi foto ni ifoto iriho abantu batatu, ntibagaragara ko bakurikiye inama y'ikiganiro, ni inama y'ikigo gishinzwe gutwara abantu rura bari mu nama ariko basa nkaho bari atantifu bakurikiye imbere y'aba compiyuta n'amacupa y'amazi.

Iyi nama irimo abantu batandukanye, harimo abantu bicaye imbere yabo bafite amacupa y'amazi, imbere yabo hari abantu bicaye kuri podiyumu ariko hakaba uyoboye ikiganiro ufite mikorofone n'impapuro mu ntoki ze hanyuma mu ruhande rumwe hari umuntu uri gufotora uri gukurikirana amafoto y'ibikorwa by'inama.

Ipoto z'amashanyarazi ebyiri ziteye imbere y'inzu igaragara ko ari iy'ubucuruzi iri ku muhanda, izo poto hariho ipoto imwe isize ibara ry'umuhondo indi isize ibara rya giri, ziriho amatsinda y'amashanyarazi agemura amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Ni mu rugomero rw'amashanyarazi mu rugomero rw'amashanyarazi ahagaragara imashini zitanga amashanyarazi, ndabona kuri iyi foto cyakoze harazitiye ni ikigo kigaragara ko ari ikigo cy'amashanyarazi yuciyeri cyangwa se rege.

Ni umujyi munini cyane urimo amazu agerekeranyije meza ariko hakuno hari ahantu hagaragara nk'amashyamba ari kugaragaramo inzu y'urusengero runini cyane ni amazu maremare afite amabara atandukanye n'ifoto igaragaza umujyi viyu y'umujyi runaka.

Umuhanda, uyu ni umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari ibyatsi ni umuhanda umeze neza usukuye utarimo ikindi kinyabiziga, hafi yaho hari inzu yubatse ya etaje ndende, inzu nini igaragara ifite amabara y'umweru, amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Iyi ni inzira y'abanyamaguru muri iyo nzira haparitsemo igare ariko mu muhanda hari n'umuhanda munini uwo muhanda harimo umumotari harimo lifani n'ivatiri zirimo zigenda ariko umumotari araparitse avugana n'umuntu waparitse akagare ndetse n'umudamu.

Ni kamyo nini ya randekuruza ya rukururana irimo gukurura izindi, iri mu muhanda igenda, umuhanda nyabagendwa arikohande muhanda irenze ahantu ku kiraro inyuze munsi y'ikiraro kigeretseho undi muhanda hejuru, ni umuhanda ufite icyapa kiri ku muhanda kitagaragaza ibyo kivuga n'ipoto y'amashanyarazi ndetse n'agashyamba kanini cyane.